Abayobozi bari hamwe ndetse bari kurebera hamwe bimwe mu bibazo cyangwa ibisubizo cyangwa bareba icyateza imbere ikigo cyabo, banafata ingamba, banareba ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo babishakire umuti.

Inama yariri kuba irimo abashinzwe umutekano ndetse n'abaturage muri rusange, bakaba bari gushimira umuturage ku byiza yagezeho cyangwa ku byo yahawe kandi bakaba bishimiye hamwe.

Abaturage bicaye mu busitani bari mu nama umuyobozi wayo yabatumiyemo akaba ari kubagira inama ku bintu bigiye bitandukanye kandi bishobora no kubafasha.

Umukozi wa leta cyangwa ushinzwe umutekano ari mu nama n'abantu bavuye mu bindi bihugu bari kurebera hamwe ibijyanye n'umutekano n'uko wakorwa.

Abaturage ndetse n'abayobozi bari kurebera hamwe ibyakwigwa cyangwa imyanzuro bashobora gufata kugira bizinesi yabo igende neza, kandi ibyo ngibyo bakaba bari kubyifashishwamo bakoresheje za mudasobwa.

Abaturage benshi kandi bateze amatwi ibyo umuyobozi wabo ari kubabwira ku bijyanye n'ingamba zigomba gufatwa muri ako gace cyangwa icyahinduka kugira ngo ibintu bigende neza.

Urubyiruko ruri hamwe mu nama, bari kurebera hamwe uko bashobora guteza igihugu cyabo imbere, bari gutega amatwi inama bari guhabwa, bakaba bambaye imyenda igiye isa.

Abaturage cyangwa abayobozi bari hamwe, bari bari kurebera hamwe icyakorwa cyangwa bareba icyo bashobora guhindura ku bijyanye n'ibyo bakora, cyangwa ibijyanye n'umutekano wo mu Rwanda.

Abayobozi bashinzwe iby'imyidagaduro mu Rwanda ndetse n'ababakuriye bari kurebera hamwe cyangwa baganira icyakorwa, cyangwa icyahindurwa kugira ngo ibintu bigende neza.

Inama iri gukorerwa hamwe haba abagore cyangwa abagabo kandi bakaba bateze amatwi, bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye wenda ibishobora kubafasha, mu kuba bakwiteza imbere cyangwa bagateza imbere ibyo bakora.

Umuyobozi hamwe n'abaturage bari gukora inama y'uko bateza imbere igihugu cyangwa iby'abanonosora mu gace kabo kandi abaturage na bo bakaba bateze amatwi y'iby'uwo muyobozi ari kubagiramo inama.

Inama iri gukorwa hagati y'abayobozi ndetse n'abarimu b'ibigo by'amashuri hamwe n'abanyeshuri babo, bareba icyakorwa ku byo bahindura ku myigire y'abana babo.

Abaturage ndetse n'abayobozi bari kurebera hamwe cyangwa bigira hamwe ku kibazo gihari, cyangwa bareba uko bateza imbere u Rwanda cyangwa Kigali yabo nziza kugira ngo igire isura nziza.

Umuyobozi ushinzwe urubyiruko mu rwanda, ari ukugira abakiri batoya cyangwa abaha inama z'icyo bakora cyangwa uko bakwirinda ibishuko muri iki gihe, bakaba bambaye imipira iriho ibirangantego by'u Rwanda.

Abayobozi bari hamwe bari kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo Kigali ikomeze ise neza cyangwa ingamba bashobora gufata kugira ngo ikomeze itere imbere.

Abayobozi ndetse n'abaturage bari mu nama, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye abagore ndetse n'abagabo, hakaba hari uri kumwe uri kubabwira ibijyanye n'imyanzuro yafatwa cyangwa icyakorwa hamwe kugira ngo bateze imbere ikigo cyabo.

Inyubako ndende kandi nziza ziboneka mu mujyi wa Kigali hamwe n'abacuruzi bari gucuruza ibicuruzwa byabo, bisangamo ibintu bitandukanye kandi bakaba bari kubicururiza ahantu hahurira abantu benshi.

Abanyeshuri bari kwiga bifashishije igikoresho cya mudasobwa, bakaba bashobora kuba bakora ibintu bigiye bitandukanye, yaba amasomo yabo cyangwa ibindi bintu bashobora kuba bavumbura.

Umunara munini uri ahantu harinzwe ukaba ukozwe mu byuma ndetse uri ahantu hitaruye abaturage ku buryo bidashobora kubagiraho ingaruka, hamwe n'inzu iri hafi aho ngaho.

Uburyo bworoshye kandi bwihuse bukwereka uko wakwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa muri uyu mwaka, ukashobora nanone kuba wabahamagara kuri nimero yabo igaragaraha cyangwa ugasura urubuga rwabo.

Umunara w'itumanaho muremure kandi ukozwe mu byuma ugiye usize amarangi atandukanye y'umweru ndetse n'umukara hamwe n'akazu kari ku ruhande birikumwe.

Umunara w'ibyuma munini kandi muremure uri hagati mu murima w'ibigori ukaba ukorotiriwe n'ibyuma bikomeye cyane ku buryo bidashobora guteza akaga abantu begereye aho hafi.

Ibinyabiziga biri kugenda hamwe n'umunara uri ku ruhande uriho ibintu bigiye bitandukanye, ndetse n'icyapa cy'itumanaho cy'ikigo gikorerwa mu Rwanda hamwe n'ibiti biteye ku ruhande.

Umunara munini w'icyuma kandi muremure, ukaba ufasha abaturage mu kuba wabaha ibijyanye n'itumanaho, ikaba wegeranye n'ibiti ku ruhande birebire, hamwe n'amazu yo guturwamo.

Abaturage bari gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, bifashishije za mudasobwa, buri muntu wese akaba afite iyiwe, akaba ashobora kuba yareba ibintu bigiye bitandukanye.

Umunara muremure kandi ukozwe mu byuma, usize amarangi agiye atandukanyekanya umutuku ndetse n'umweru rikaba rikorotiriwe ku buryo umuturage adashobora kugira ikibazo.

Uburyo bworoshye kandi bwihuse ushobora kwishyuramo imisoro yawe uciye muri mudasobwa yawe kandi bikaba byoroshye ukaba ushobora kubasanga kuri uru rubuga ruri hano hasi cyangwa kuri nimero yabo itishyurwa.

Inzu ikorerwamo ibijyanye n'uko wabona bikoroheye ibyo ushaka kugura nk'imyenda, ndetse n'ikigo gishinzwe iby'irembo, bakaba babikora mu buryo bwihuta kandi bworoshye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, cyane cyane ku bijyanye n'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, bakaba bafasha abantu kuri ibyo bintu, ndetse n'iby'itumanaho.

Uburyo bworoshye kandi bwizewe ushobora kunyuramo kugirango ubashe kwishyura imisoro yawe byihuse kandi byemewe, ukaba ushobora kwifashisha urubuga ruri hano hasi cyangwa ukabahamagara kuri nimero igaragara hano.

Umunara muremure kandi ukozwe mu byuma usize amabara atandukanye ufasha abaturage mu by'itumanaho ndetse n'ibimera ku ruhande, urutoki ndetse n'ibindi biti biteye aho ngaho hafi.

Umunyamaguru uri kugenda mu muhanda ndetse n'ipoto rijyana amashanyarazi ririho itara rikoreshwa n'umurasire w'izuba hamwe n'ikinyabiziga gitwara ibyokurya bikorwa nk'ifarini.

Ipoto rinini, rifasha abaturage mu kuba babona umuriro, mu buryo bwihuse kandi bworoshye, rikaba rikozwe mu cyuma, ku buryo ridashobora guteza ikibazo runaka, ndetse n'inzu iri ku ruhande, ibamo abaturage.

Inyubako zo kubamo, ndetse n'ipoto y'amashanyarazi, ijyana umuriro mu baturage, hamwe n'ibiti biteye, ndetse n'indabo, n'ubusitani.

Amapoto ari ku muhanda agiye ku murongo ariho amatara akoreshwa n'umurasire w'izuba, amapoto ajyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage.

Umuhanda uri kugendwamo n'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga yaba ibigenda cyangwa ibihagaze, hakaba hari amapoto y'amashanyarazi ajyana amashanyarazi mu nyubako ziri hafi aho ngaho hakaba harimo n'iy'ubucuruzi.

Abaturage bahagaze barimpande y'inzu zo kubamo ndetse bakaba bari n'iruhande rw'ipoto y'amashanyarazi ijyana umuriro mu baturage mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Amapoto y'amashanyarazi ari ku muhanda atondetse ku murongo, harimo ndetse n'ibijyanye n'amatara amurikira abaturage mu masaha ya nimugoroba, akaba akoreshwa n'umurasire, akaba yicana isaha iyo zigeze.

Umuhanda uri kunyurwamo n'umugenzi ugenda n'amaguru ndetse n'undi uhagaze hakaba hari icyapa kiri kwamamaza iby'itumanaho mu Rwanda ndetse n'ibinyabiziga biri mu kazi bigenda bitwaye abagenzi.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ndetse ryegereye umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, hamwe n'abaturage bari kunyuramo bagenda bajya ahantu runaka, hakaba harimo n'abakozi bari gusukura umuhanda.

Amapoto y'amashanyarazi, atwara umuriro mu ngo z'abaturage, ndetse n'ibyapa byereka abatwaye ibinyabiziga, aho bari kujya. Ndetse n'ibiti binini biteye hafi aho.

Ipoto ry'amashanyarazi rikozwe mu byuma kandi rikomeye, rikaba riha abaturage mu kuba babona umuriro, mu buryo bworoshye kandi bwihuse budateje akaga.

Umuhanda w'igitaka uri kunyurwamo n'umugenzi w'amaguru ujya mukorwa bya buri munsi ndetse n'indabo ziteye hafi aho ngaho hamwe n'ibiti hamwe n'ipoto rijyana amashanyarazi mu baturage.

Inzu z'abaturage nziza zo kubamo kandi zifite ahantu heza hateye ubusitani ndetse n'indabo n'ibiti zikaba kandi zegereye umuhanda wo kunyurwamo n'ibinyabiziga.

Ipoto y'amashanyarazi ndende ikozwe mu byuma, ishobora kuba yaha abaturage umuriro mu buryo bwihuse kandi bworoshye bugera kuri buri muntu wese.

Ibikorwaremezo birimo umuhanda, ndetse n'ipoto y'amashanyarazi ijyana umuriro mu baturage, ndetse n'abaturage bari kunyura mu nzira yabugenewe, hamwe n'ibiti biteye hafi y'umuhanda.

Ipoto y'amashanyarazi rijyana umuriro mu baturage ndetse rikaba riri ahantu hakorotiriwe n'ibyuma ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kuhagera kandi bikaba birinda guteza impanuka.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zijyana umuriro mu baturage ndetse n'igiti cy'umukindo giteye hafi aho ngaho, hamwe n'inzu itaruzura iri kubakwa hamwe n'ikindi giti kirekire kandi cyiza.

Inyubako ndende kandi nini ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba hariho kandi n'ibyapa bigaragaza ko ubwo bucuruzi buri gukorerwa aho ngaho ndetse n'ipoto y'amashanyarazi.

Umuhanda urimo kunyurwamo ibinyabiziga ndetse n'abaturage, hamwe ni ipoto ry'icyuma ndetse n'amaduka agiye atandukanye; hakaba hakorerwamo iby'ubucuruzi.

Ibyapa bibiri biranga cyangwa byerekana ahantu hari ibigo bitandukanye bikora ibijyanye n'amashanyarazi hamwe n'ikinyabiziga kiri kugenda n'umuturage uri kugenda.

Inyubako ingurirwamo ibintu bitandukanye, ndetse n'ipoto ijyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage, n'icyapa kereka abatwaye ibinyabiziga aho bari kujya.

Inyubako z'ubucuruzi zigiye zitandukanye, ushobora kuba wabonamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hamwe n'ibinyabiziga bihagaze impande y'aho ngaho, ndetse n'abaturage bari kugenda.

Inyubako ndende kandi ifite amagorofa agera muri atatu hakaba hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse ikaba inasa neza ukaba ushobora kubona aho wakwisanzura mu gihe ukeneye kuruhuka.

Inyubako irimo ibyumba bigiye bitandukanye, bikorerwamo ibintu bitandukanye ndetse hakaba hari n'aho umuntu cyangwa abaturage baje bagana aha ngaha aho bashobora kuba bicaye mu gihe bategereje.

Ikinyabiziga kiri gusohoka mu bitaro byo ku Muhima bikaba bifite ahantu hanini hashobora kuba hajya ibinyabiziga byinshi cyane ndetse hakaba hari n'umutekano mwinshi ku baje bagana aho hantu.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu kuba cyatabara ubuzima bw'abantu ndetse kikaba cyifashishwa mu gihe umuntu arembye, akaba ashobora kutagera kwa muganga hakiri kare, iki kinyabiziga rero gifasha abaturage mu kuba bakwihutirwa kujyanwa kwa muganga.

Ibitaro byo kwivurizamo byiza kandi bifite isuku, bifite uturangantego twereka abaje kwivuriza aho bagomba kunyura, ndetse nho bagomba kujya mu gihe bayobewe aho baba bari kujya, kandi ikaba ifite n'ibikoresho byiza bigezweho bitanga ubushyuhe cyangwa ubukonje aho.

Abantu bicaye hanze bategereje guhabwa serivise yo kwivuza ndetse n'ikinyabiziga kizanye umurwayi kwa muganga hamwe n'ikirinda inkongi y'umuriro.

Inzira ijyana aho ibitaro byivurizwamo amaso biri bikaba byitwa kabgayi, hakaba hari kandi icyapa kiranga neza aho hantu ukaba wanabonaho amasaha batangirira akazi n'igihe bayasorereza.

Umuhanda urimo aho batera ubusitani ndetse n'ibiti. Inyubako yo kwa muganga iriho aho abamama babyarira ndetse n'ibinyabiziga bihagaze.

Ubusitani bwiza kandi buteyemo ibiti binini kandi birebire, bisa neza, bituma ahantu hagaragarara neza, ndetse n'inyubako ku ruhande ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Umuganga w'amaso ndetse n'umuturage waje kwivuza, akaba ari gupimwa amaso, ngo arebe uko ikibazo cye cy'amaso gihagaze kandi umuganga na we akaba ari kubimufashamo.

Ivuriro ririmo abaturage bagiye batandukanye hakaba kandi hari icyapa kibereka ibyo bakeneye aho biri n'aho bagomba kunyura kugira ngo biborohere.

Intebe zicarwaho n'abategereje guhabwa cyangwa kuba babona ubuvuzi bw'ibanze hakaba hari n'ibyapa kandi byereka abaturage aho bashaka kuba bajya cyangwa aho bashaka kuba bagera mu buryo buboroheye kandi bwihuse.

Ahantu heza ho kuruhukira cyangwa ho gutegerereza wicaye mu gihe ukeneye ko bagufasha cyangwa uvurwa, hakaba hari intebe nziza kandi zigezweho zisa neza mu gihe wicaye utegereje ko bagufasha.

Inyubako nziza kandi isa neza ifite isuku, irimo ibyapa bigaragaza cyangwa byereka aho abaturage bashaka kujya, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane kandi bugaragara neza.

Urupapuro rwerekana cyangwa rugaragaza uko urubanza rugomba kugenda, hakaba hakubiyemo n'ubwo igihe urubanza ruzabera n'isaaha ndetse n'itariki.

Ikigo gikoranyirizwamo imfungwa mu Rwanda, kikaba kirinzwe cyane ndetse gifite isuku, hakaba hafungirwamo abagore ndetse n'izindi ngeri zose z'abantu.

Abashinzwe umutekano baherekeje imfungwa bakaba bazizanye mu nyubako, ndetse bakaba bavuye mu kinyabiziga batwarwamo iyo bavanywe ahantu hamwe bajyanwa ahandi kandi bakaba bambaye imyenda isa.

Umuhanda munini ujya mu byerekezo bigiye bitandukanye hakaba harimo ibinyabiziga bihagaze hakaba hari n'abaturage benshi ndetse n'abashinzwe umutekano bari kwereka abatwaye ibinyabiziga aho bashobora kujya n'uko bagomba gukoresha umuhanda.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibitwaye abantu, ndetse hakaba hari kugendwamo n'imodoka, y'ushinzwe umutekano mu gihugu.

Igikoresho gikoreshwa mu kwifashisha mu kuzimya inkongi y'umuriro byoroshye mu gihe hatari hagera ababishinzwe, iki gikoresho rero kikaba cyifashishwa mu nyubako ndende kandi kikaba cyoroshya mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Abanyeshuri ndetse n'abayobozi, hamwe n'abashinzwe umutekano, bari kwerekera abari kwiga ko bagomba gukoresha igikoresho cyabugenewe mu kuba, bazimya inkongi y'umuriro mu gihe ibateye.

Icyapa cyerekana ko aho ngaho hari ivuriro rya Kacyiru, rikaba ryegereye ahantu hari ku muhanda hanze, kandi hakaba hateye ibiti, ku buryo buri muntu wese bimworohera kuba yamenya aho hantu agiye.

Igikoresho cyifashishwa mu kuba cyazimya inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse mu gihe ababishinzwe batarahagera kandi kikaba cyifashishwa mu nyubako ndende.

Abashinzwe umutekano bari kwishimana n'abana babereka uburyo ki n'ibakora nabo bazaba abantu bakomeye, bari kwifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kwereka abana ibintu bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu kuba byazimya inkongi y'umuriro ifashwe hafi aho ngaho ndetse ukaba wabisanga mu nyubako zose ndende zishobora kuba zagerwaho n'ingaruka zo kuba haza umuriro utadiganyijwe.

Abaturage bari kugaragaza ko bashyigikiye ishyaka rya FPR, bambaye ibyapa ndetse n'imipira igaragaza ko bizeye kandi bazatora umuyobozi uzashyirwaho.

Umukandida uri kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, ari gusuhuza abaturage bari kumureba, bagaragaza ko bamwishimiye ndetse bazamushyigikira mu matora yiwe.

Ibinyabiziga biri kunyura mu muhanda biri mu kazi ndetse n'ibitwaye abantu hamwe n'icyapa kiriho umukuru w'igihugu uri kwiyamamaza ndetse n'umuturage uri kunyura mu nzira yabugenewe.

Abaturage benshi cyane hamwe n'abashinzwe umutekano w'umuyobozi w'u Rwanda, akaba ari kwiyamamaza, asuhuza abaturage, ababwira ko cyangwa abereka ko barikumwe.

Umuyobozi w'Igihugu ari we Paul Kagame, ari kwiyamamariza kuba Umuyobozi w'u Rwanda, akaba ari kuzenguruka mu baturage, ababwira imigambi abafitiye n'ibyo azabakorera.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri kujya mu byerekezo bitandukanye abaturage bari kuva mu kazi kabo ka buri munsi ndetse n'ibiti biteye hafi y'umuhanda.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, harimo ibyikoreye imizigo ndetse n'ibihagaze ndetse n'abaturage bari kugenda, haba abikoreye imizigo cyangwa abari kugenda mu kazi kabo ka buri munsi, n'inyubako iri ku ruhande ikorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri ndetse n'abaturage, hakaba harimo ikinyabiziga kinini kandi gifasha abantu mu kwikorera cyangwa gutwara abantu imizigo iremereye cyane.

Umuhanda urimo ibinyabiziga biri kugendera mu cyerekezo kimwe, hakaba harimo ibitwaye abagenzi bari kujya mu kazi kabo ka buri munsi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, hakaba hari n'undi muhanda ujya mu kindi cyerekezo.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hari kunyuramo kandi abanyamaguru bari kugenda ndetse n'umuhanda mutoya unyurwamo n'abagenzi mu gihe bari kugenda.

Umuhanda munini wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, biri kujya mu byerekezo kandi bitari bimwe, hakaba harimo aho abanyamaguru bashobora kwambukira.

Umuhanda uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ikinyabiziga kinini ndetse na gatoya kikorera utuntu dutoya, hamwe n'ibindi biri ku ruhande, ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye,

Ibinyabiziga bijya mu byerekezo bitandukanye, haba ibitwaye abantu ndetse n'ibitwaye ibindi bintu biremereye, bikaba biri kugenda mu buryo bwiza kandi budateje impanuka.

Ikinyabiziga gihagaze gitwara ibintu cyangwa imizigo myinshi cyane, kikaba gihagaze mu muhanda wa kaburimbo, ndetse n'ikindi hakurya gishoboraku kiri kujya mu byerekezo bitandukanye hamwe n'akayira kanyurwamo n'abanyamaguru.

Ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda wa kaburimbo bitwaye abantu ndetse n'ibyikorera imizigo hakaba kandi hariho n'ibiti biteye hafi y'uwo muhanda ndetse n'akayira kanyurwamo n'abanyamaguru.

Abaturage bari kunyura mu nzira yabugenewe ndetse n'ibinyabiziga biri kunyura mu muhanda wabugenewe, hakaba harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibitwaye abantu ndetse n'ibitwara imizigo, hakaba kandi ku ruhande hateyeho n'ibiti.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bibiri, harimo igitwaye abantu benshi cyane, bava hamwe bajya ahandi kandi kikaba gitwara abantu barenga mu ijana.

Umuturage uri mu kazi wikoreye imizigo minini, hakaba hari ndetse n'ibinyabiziga ku ruhande biri kugendera mu muhanda bitwaye abantu ndetse n'ibintu n'abaturage ku ruhande bari kugenda.

Umuhanda bari kunyuramo ikinyabiziga kinini gitwara ibintu bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'imicanga ndetse n'amabuye kikaba kikorera ibintu byinshi cyane, hakaba yari kunyuramo ndetse n'abaturage bari kugenda mu kazi cyangwa bari gutembera.

Ibiti biteye hafi y'umuhanda uri kunyurwaho n'ikinyabiziga cyo mu bwoko butoya kikaba cyifashishwa mu kuba cyatwara ibintu bikeya cyangwa byinshi.

Umuhanda uri kugendwamo n'ikinyabiziga cyikoreye imizigo ndetse n'abanyamaguru bari kugendera mu muhanda wabo wabagenewe kugira ngo hirindwe impanuka.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda ndetse hakaba hari n'icyapa hamwe n'abanyamaguru bari kugendera aho bemerewe guca, bikaba kandi birinda impanuka abanyamaguru ndetse n'abatwaye ibinyabiziga.

Umuhanda uri kugenderwamo n'ikinyabiziga ndetse n'umuturage akaba arimo ikinyabiziga cyitwaye ibintu ndetse ku ruhande rwa hakaba hariho ibiti ndetse n'ahandi hantu hari gukorerwa ibikorwa bitandukanye.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye bijya mu byerekezo bitari bimwe ndetse n'ikinyabiziga kinini cyikorera ibintu binini cyane harimo: umucanga ndetse n'amabuye hamwe n'akayira kanyurwamo n'abagenzi.

Ibinyabiziga bitoya bihagaze bitegereje kuba byafata imizigo biyitwara ahantu hagiye hatandukanye ndetse bishobora kwikorera ibintu biremereye cyane.

Ikinyabiziga gihagaze, kinini, gitwara imizigo minini cyane kandi iremereye, bakaba bashobora kuba bari gupakira imiceri cyangwa ibishyimbo, cyangwa ibindi bintu.

Ibinyabiziga biri kunyura mu muhanda yaba ibitwaye abantu ndetse n'ibyikoreye imizigo iremereye n'igare riri kunyura hafi aho ngaho ndetse n'akayira k'abanyamaguru n'ibiti biteye kuri uwo muhanda.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda, kikaba gitwaye inka kizivana ahantu hamwe kizijyana ahandi ndetse ku ruhande hakaba hari ibiti birebire bitewe impande y'umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka itwara abantu ndetse ikaba iri kugendera mu muhanda ugendwamo n'ibindi binyabiziga runaka, iki kinyabiziga kandi kikaba cyifashishwa mu kuba cyatwara abagenzi kibajyana ahantu hamwe ndetse n'ahandi.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kandi hakaba hari n'ibiti binini n'ubusitani ndetse iki kinyabiziga kikaba gitwara ibintu byinshi nk'urugero nka esansi cyangwa amazi, kikaba cyikorera ibintu byinshi cyane kandi bifite uburemere.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitwaye abantu ndetse n'abaturage bari kugenda mu nzira yabugenewe bemerewe gucamo hamwe n'ibiti ku ruhande biteye impande y'umuhanda.

Umuhanda uririmo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye kimwe kikaba cyikorera ibintu byinshi kandi biremereye urugero nk'umucanga ndetse n'amabuye ikindi kinyabiziga kikaba gitwara abantu batari benshi bagera muri muri batanu.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda cyikoreye ibintu ndetse n'abaturage bari kugenda mu muhanda wabo wabugenewe bakaba bari kwikorera imizigo ndetse n'abandi bari gukora akandi kazi gatandukanye.

Ikinyabiziga gitwara ibijyanye n'amavuta yo kwisiga, kiyavana aho akorerwa kikayashyikiriza aho abaguzi baza bayasanga cyangwa aho bayarangurira.

Ibinyabiziga bihagaze bitegereje abagenzi ko babatwara ndetse bakaba bahagaze ahantu hemewe, ntabwo bari mu muhanda ku buryo bashobora guteza akavuyo cyangwa impanuka.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga, biri kujya mu byerekezo bitandukanye, hakaba hari inzira inyurwamo n'abanyamaguru, ndetse n'ibiti biteye ku ruhande, by'indabo ndetse n'ubusitani.

Umuhanda uri kugendwamo n'amagare akaba atwaye abantu ndetse n'ibindi binyabiziga ku ruhande, bitwaye ibintu bijye bitandukanye ndetse n'ibiti biteye hafi aho ngaho n'inzira inyurwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda hari kugenderwamo n'ikinyabiziga kinini gitwara abantu ndetse n'ibintu kandi ku ruhande hakaba hari inyubako na none ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Inyubako zitandukanye ndetse n'ibinyabiziga biri hamwe hakaba harimo n'abagenzi bari kugenda, bari kujya mu kazi kabo ka buri munsi ndetse n'abatwaye amagare bari kugendera mu muhanda.

Umuhanda uparitsemo ibinyabiziga bitegereje gutwara abagenzi, ndetse n'abaturage bahagaze bari hafi n'inyubako ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'ubucuruzi.

Abaturage cyangwa ibinyabiziga biri kunyura mu muhanda, hakaba hari kunyuramo amagare atwaye abagenzi ndetse no hirya hakaba hari ibinyabiziga binini, bishobora gutwara imizigo minini.

Abaturage bari kugenda mu kazi kabo ka buri munsi, bari kunyura mu cyerekezo kigenderwamo abanyamaguru, ndetse n'ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda, bitwaye abagenzi bajya mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza yegereye umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse ikaba hariho ibiti binini ndetse n'ubusitani ku ruhande, n'amatara agenda amurikira abantu bari kugenda.

Umuhanda uri kugendwamo n'umuturage ndetse n'ikinyabiziga gitwaye abantu benshi cyane, hakaba harimo n'imizigo ku ruhandeho hakaba habonekaho n'ibiti bigiye biteye k'umurongo.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye bitwaye abantu ndetse n'ibyikoreye imizigo, hamwe n'abaturage bari kwambuka, banyura aho abanyamaguru bemerewe kunyura.

Igare riri mu muhanda riparitse ridafite uritwaye rikaba rikorerwaho ibintu bigiye bitandukanye nko kuba ryakwikorera ibintu bigiye biremereye ndetse n'ikinyabiziga ku ruhande kiri kugenda.

Umuhanda uri kugenzwamo n'abaturage benshi bagiye mu mirimo yabo ya buri munsi ndetse no ku ruhande hakaba hari ikinyabiziga kihagaze hakaba hari n'inyubako ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ibinyabiziga bihagaze ahantu hamwe bikora akazi ko kwikorera imizigo ndetse n'abanyamaguru bari kugendera mu muhanda ugendwamo nabo ndetse n'icyapa kiri kwamamaza ibikorwaremezo.

Ikibuga kinini cyane kirimo ibyatsi byinshi gikorerwamo imyidagaduro igiye itandukanye yaba iyo gukina umupira hakaba kandi hari abantu bicaye bari kureba iyo myidagaduro.

Ahakorerwa imyidagaduro igiye itandukanye, cyane cyane hakaba hari n'aho abaje kureba iyi myidagaduro bicara, hakaba ari ahantu heza hadashobora kugerwa n'imvura cyangwa izuba.

Inyubako yo kwicarwamo, abantu bari kureba imikino itandukanye, haba iyo gukina umupira w'amaguru ndetse n'indi, hakaba ari ahantu heza, hasakaye ku buryo izuba cyangwa imvura bitabageraho.

Ikibuga kinini gikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye imyitozo ngororangingo, aho ushobora kuhakinira umupira w'amaguru ndetse n'uwamaboko hakaba ari ahantu heza kandi hanini.

Icyapa cyereka abatwaye ikinyabiziga cyabo ko bagiye kunyura ahantu hashobora kuba hateje akaga hari inkangu kugira ngo bahirinde cyangwa bahagendere neza.

Umuhanda uva mu Rwanda ujya mu gihugu cy'abaturanyi cyitwa Uganda, hakaba hari kugendwamo imodoka ndetse n'abaturanyi ku ruhande kandi hakaba hari n'ubusitani buhagazemo umuturage, akaba ari gufata amafoto.

Inzu iri mu kibanza kinini kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti iyo nyubako ikaba ari nziza ikaba ifite ahantu heza ushobora kuba wahagarara witegeye ibyiza.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ikinyabiziga. Inzu iri ku ruhande ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane sosiyete ijyanye n'iby'itumanaho mu rwanda ndetse hakaba hari no kunyura n'abaturage ku ruhande.

Inyubako ndende iri hagati y'amazu matoya ndetse n'ipoto riri hagati mu busitani rikaba rijyana amashanyarazi mu rugo ruri hirya ndetse bikaba byorohereza abatuye hafi aho.

Umuhanda urimo ikinyabiziga, kikaba gihagaze kitari kugenda, inyubako ndende iri ku ruhande, ikorerwamo ubuvuzi bugiye butandukanye.

Inyubako ndende ifite ubwiza inyuma, amadirishya ndetse n'ahantu heza iri, ikaba ifite ibiti ku ruhande ndetse ikaba ituriye n'umuhanda wo kunyurwamo n'abantu bagiye batandukanye n'aho kwinjiza ikinyabiziga.

Inzu nziza kandi isa neza ushobora kuba wabonamo amacumbi yo kuraramo, ikaba ituriye umuhanda wo kunyurwamo n'ibinyabiziga, hamwe nu'busitani buteye neza hafi aho ngaho.

Inyubako iri ahantu hejuru hitaruye, ikaba iri ahantu heza, yegeranye n'ipoto ry'amashanyarazi rigeza abaturage ho umuriro mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Inyubako zo guturamo nyinshi cyane kandi ziri ahantu heza hari amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwaremezo hakaba haboneka amashanyarazi ajyana umuriro muri izo ngo aho hose.

Inyubako ndende cyane ndetse n'inzu zo guturamo hakaba harimo n'izikorerwamo inganda, hamwe n'amashanyarazi, hamwe n'ibiti biteye hafi muri izi nyubako.

Inzu nini kandi ndende ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, bwo kuregura imiti ndetse n'ubucuruzi bugura ibijyanye n'ibyo kurya kandi ikaba ifite ahantu hanini.

inyubako nziza iri ahantu heza ifite ibiti biteye birebire ikaba iri hafi y'umuhanda w'igitaka iyo nyubako ikaba ishobora kubamo cyangwa ikaba ishobora gukorerwamo ibindi bikorwa.

Umuhanda w'ibitaka uparitsemo ikinyabiziga kandi ku ruhande hakaba hari inyubako ndende ibamo abantu cyangwa ikorerwamo ibindi bikorwa runaka.

Inyubako ndende kandi nziza ifite ubusitani hanze ndetse n'ibiti binini bisa neza, ikaba kandi ifite ahantu heza waruhukira cyangwa wahagarara witegeye ibintu byose biri hafi aho.

Inyubako ebyiri nziza zikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye ndetse kandi bikaba bifite n'ahantu hanini hashobora kuba hajyamo n'ikinyabiziga iyo nyubako kandi ikaba ituriye umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako ndende ifite amagorofa ane ikaba ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye ikaba ifite aho gushyira ibinyabiziga ndetse n'ahantu hanini.

Inzu nziza yo guturamo ushobora kuba wabonamo amacumbi, ikaba ifite ahantu hanini kandi heza hasa neza hari ubusitani hanze hakaba hariho.

Inyubako ndende kandi nini nziza; iri ahantu haturiye izindi nyubako zibamo abaturage, iyi nyubako ukaba wasangamo ibyumba bigiye bitandukanye byo gucumbikamo mu mugihe ukeneye kuruhuka.

Ubutaka bunini buteyemo ibiti birebire kandi binini, byiza, hakaba harimo n'inzu zo guturwamo, hamwe n'inzu zikorerwamo ubucuruzi, hakaba hari kandi n'ipoto ijyana amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga ukaba ufite ahantu hanyurwamo ndetse n'abanyamaguru bagenda, kandi hakaba harinzwe ku buryo nta mpanuka ishobora kuboneka aho hantu.

Ibinyabiziga bibiri biri kugendera mu muhanda bijya mu byerekezo bigiye bitandukanye hakaba hari n'ibitii ku ruhande hafi y'uwo muhanda.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitwaye abagenzi bari kugenda, hamwe n'abari kwambuka umuhanda banyura mu mirongo y'umweru ndetse n'umukara, yereka ko abagenzi banyura aho ngaho kandi bikaba birinda impanuka mu muhanda.

Umuhanda uri kugenderwamo n'ibinyabiziga ndetse ukaba urimo aho abanyamaguru bari buce, ibyo bikaba bifasha abari kugenda n'amaguru kugira ngo badahura n'impanuka kandi bikereka utwaye ikinyabiziga ko agomba kwitondera aho hantu ari bunyure.

Umuhanda munini uri kugendwamo n'ibinyabiziga ndetse ukaba unafite aho abatwaye ibinyabiziga bashobora guhagarara, mu gihe hari icyo bashatse gukora kugira ngo bidateza akaga.

Agahanda gatoya kayu kanyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'umuhanda munini unyurwamo n'ibinyabiziga binini bigenda bitandukanye, ndetse hamwe na jaride iteyemo ibiti bisa neza kandi binini.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abaturage bakaba bari kujya mu kazi kabo ka buri munsi, ndetse n'ibti biteye hafi y'uwo muhanda, hakaba ari n'ahantu harangwa n'isuku kandi hasa neza.

Imihanda ibiri ijya mu byerekezo aho bigiye bitandukanye hakaba hari kugendamo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru. Hakaba hari akayira kanyura ku ruhande kagenderwamo n'abaturage.

Umuhanda munini ndetse ugendwamo n'ibinyabiziga byinshi yaba ibigendera hejuru ndetse n'ibigendera mu muhanda wo hasi hakaba hari n'ahantu abanyamaguru bagendera kandi hakaba hanateye n'ubusitani busa neza.

Umuhanda munini ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, hakaba hari kugenderwamo n'ibinyabiziga bitwaye abantu ndetse n'inyubako kuruhande aho ngaho hamwe n'ibiti biteye.

Umuhanda w'igitaka, umanuka uhura n'uwa kaburimbo uri kunyuramo ikinyabiziga kigiye mu cyerekezo cy'imbere hamwe n'ibiti cyangwa ishyamba riteye hafi y'uwo muhanda.

Umuhanda ujya mu byerekeza bigiye bitandukanye uri kugendamo n'ibinyabiziga ndetse n'abaturage bari kugenda, hakaba kandi hari ibiti ku ruhande biteye ndetse n'ubusitani.

Ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda, hakaba harimo aho abanyamaguru bashobora kwambukira, hariho umweru n'umukara n'ibiti biteye ku ruhande.

Imihanda ibiri kandi minini myiza, ishobora kugendwamo n'ibinyabiziga byinshi cyane kandi bi bye bitandukanye yaba mu muhanda wo hejuru ndetse n'uwo hasi ukaba, uri kugendwamo n'ibinyabiziga ndetse biri kugendwamo n'abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga, ukaba ufite ahandi ku ruhande ushobora kuba waparika ikinyabiziga cyawe mu gihe ukeneye kuba wagira icyo ukora, hamwe n'amapoto y'amashanyarazi, ndetse n'ibiti ku ruhande.

Umuhanda munini urimo umwanya abanyamaguru bagendamo, ukaba usize amabara y'umukara ndetse n'umweru, ibyo bikaba byereka, abatwaye ibinyabiziga ko bagomba kwitondera aho hantu mu gihe batwaye.

Umuhanda w'igitaka uri kugendwamo n'ibinyabiziga bibiri, hirya hari inzu zibamo abantu ndetse n'ibyapa byereka abatwaye ibinyabiziga aho bari kujya.

Ikinyabiziga kinini kiboneka mu Rwanda kiri kugendera mu muhanda wo hejuru ndetse n'uwo hasi, iki kinyabiziga kandi kikaba kikorera cyangwa gitwara abantu benshi cyane barenga ijana.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru n'iy'umukara yereka abanyamaguru ko ariho bagomba kwambukira ndetse mu gihe bari kwambuka ibinyabiziga ko bigomba kwitondera aho hantu hari kunyura abanyamaguru.

Imihanda igiye itandukanye ijya mu byerekezo bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibinyabiziga bigiye mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hakaba hariho jaride ndetse n'ibiti bisa neza.

Imihanda ibiri ijya mu byerekezo bibiri bigiye bitandukanye ndetse n'inyubako ziri hirya zikorerwamo ibintu by'ubucuruzi hamwe n'abaturage bari kugenda mu kazi kabo ka buri munsi cyangwa mu bindi bikorwa runaka.

Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda, kikaba cyahagaze mu gihe umunyamaguru ari kwambuka ahagaragara uturongo tw'umweru, ndetse n'utw'umukara, ikinyabiziga bindi bikaba biri biri kugendera mu bundi buryo bundi bwo hirya.

Imihanda ibiri itandukanye umwe ukomeza ujya ibumoso undi ukomeza ujya iburyo hakaba harimo ikinyabiziga kiri kugenda ndetse hakaba hari n'icyapa kiranga ko hafi aho ngaho hari ishuri.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga ndetse n'umuturage, hirya yaho hakaba hari inyubako nini kandi irimo ibikorwa bigiye bitandukanye, ubucuruzi bucuruza ibintu bitandukanye.

Umuhanda munini wo hasi no hejuru, uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ndetse n'abaturage bari kugenda bajya mu kazi kabo ka buri munsi, ndetse n'inyubako ku ruhande.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga byinshi, bimwe bitwaye abantu, ndetse n'abaturage bari kunyuramo, hakaba hari ibiti binini byiza, ndetse n'ubusitani buteye neza.

Imihanda ibiri inyurwamo n'ibinyabiziga, hasi ndetse no hejuru, wo hasi ukaba uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bijya mu byerekezo bitandukanye ndetse n'ibiti biteye hafi y'uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ikinyabiziga ndetse n'akayira k'abagenzi gahari kanyurwamo n'abaturage hamwe n'inzira abaturage banyuramo iyo bari kwambuka.